Abagore batanu ubona ko umwe ari imbere y'ivomero, abandi bane begeranye umwe muri bo ufite ikibido n'aha imbere yabo hateretse amajerekani bategereje amazi ariko ubona ko aba bagore bari kwitegereza ibintu biri kubaturuka imbere bisa nk'aho byabarangaje.

Umumama uri ku mugezi mwiza ubona ko ufite isuku, ndetse avoma amazi meza mu majerekani asa neza, ubona ko yishimiye kuba ari kuvoma amazi meza, bityo bizamufasha mu kwirinda uburwayi bukomoka ku mazi yanduye adasukuye.

Ihuriro ry'abama n'abana babo ubona ko bari kwa muganga bagiye gupimisha ibiro by'abana babo kugira babashe kumenya imikurire yabo ndetse n'imirire ndetse n'ubuzima bwabo aho buhagaze ndetse no kugira ngo barinde uburwayi bashobora guhura nabwo mu gihe cy'ahazaza uko bagenda bakura.

Umwana muto cyane w'imyaka mike cyane ufite uducupa tubiri turimo amazi, yavomye mu kizenga kimwegereye, ndetse abandi ku ruhande basa nabi bambaye imyenda idasa neza, bari kureba uyu mwana, muri make uyu mwana akeneye inama, kugira ngo arusheho kumenya neza ibibi by'amazi yanduye.

Ivomo ririho urishinzwe ushinzwe gutanga amazi, ubona ko amabido ari kuvomwa afite isuku, ubona ko abana batoye inyuma yaho bishimiye kubona iri vomo ribaha amazi meza, ubona ko rwose bishimiye kuba baregerejwe amazi hafi yabo, ubona ko bibafasha mu kwirinda uburwayi bukomoka ku indwara zituruka ku mwanda.

Itsinda ry'abantu batandukanye b'igitsina gabo n'igitsina gore, imbere yabo hariho ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba n'uducupa tw'amazi, mudasobwa ndetse imbere yabo bakaba hari ibice bitandukanye bamwe iruhande rw'iburyo, abandi iruhande rw'ibumoso, ubona ko abari ku ruhande rw'iburyo ari abantu babiri bari gutanga amahugurwa y'ubuzima kuri aba bari ku ruhande rw'ibumoso.

Abana bato cyane bari ku ivomero bavoma amazi meza, amazi yegerejwe abaturage, amazi yatunganyijwe, amazi ashyirwamo imiti yica udukoko kugira ngo abayakoresha, abayavoma, barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Abana ubona ko umukobwa yishimiye kuvomerwa na musaza we ko bisa nk'aho uyu mukobwa afite imbaraga zo kubasha guhombo cyangwa se gukoresha iri koranabuhanga aho musaza we usa nk'aho afite imbaraga bagiye gupompa kiriya cyuma kugira ngo babone uko babona amazi.

Itsinda ry'abamama ndetse n'abana babo, ubona ko imbere yabo hari ushinzwe ubuzima, usa nkaho ari kubaha ubufasha bujyanye na serivisi z'ubuzima, abahugura, abafasha, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, abigisha bimwe mubyo bakora kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umugezi ukozwe neza uriho ababyeyi batatu b'abamama, umwe ushinzwe gufasha abashaka amazi, ubona ko aba ngaba bishimiye kunywa amazi meza yatunganyijwe kandi akabegerezwa, hagamijwe kwirinda indwara zikomoka ku mazi yanduye, nk'impiswi ndetse n'izindi, kugira ngo abaturage bakomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza kandi butekanye.

Umwana w'umukobwa, uri kuvoma amazi meza ku mugezi, iruhande rwe hari ibido, kimwe cy'ibara ry'ubururu n'umuvuniko w'umutuku, ikindi bisa nkaho ari ibara ry'umuhondo, ubona ko amazi ari kuvoma ari amazi meza atanduye, bityo bizamufasha ndetse bigafasha n'umuryango we kwirinda indwara zikomoka ku mazi yanduye, bityo bigatuma azabasha kugira ubuzima bwiza.

Ababyeyi n'abana babo ndetse n'umujyanama w'ubuzima uri kubafasha mu gupima ibiro by'abana babo kugira ngo bamenye neza aho abana baho bahagaze mu buryo bw'imirire kugira ngo bamenye uko bakurikirana ubuzima bwabo.

Abana bato cyane bishimiye ndetse banezerewe no gukaraba amazi meza aturuka ku mugezi, atari ya yandi badaha mu bidendezi yanduye, ubona ko byababereye ibyishimo ndetse n'umunezero kuba bari gukaraba amazi meza, bityo bikaba byabafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku mazi yanduye.

Abana batatu iruhande hari undi bari kurebera, uko aba bana bato cyane bafite ubwenge, bamenye neza, basobanukiwe neza ibyiza byo gukaraba amazi meza n'isabune birinda uburwayi buturuka ku mwanda, bushobora kubagiraho ingaruka mu gihe badakoze ibi, ubona ko rwose aba bana basobanukiwe uburyo bwo kwirinda uburwayi buturuka ku mwanda.

Utanga ubufasha bw'abakeneye amazi uri imbere y'umugezi ndetse n'abakeneye amazi ubona ko batonze umurongo amabido yabo akeneye amazi. Mu by'kuri ubona ko amazi ari meza asukuye ndetse n'ahaturuka hafite isuku. Ibi bikazafasha aba baturage kugira ubuzima bwiza budafite uburwayi bukomoka ku mazi yanduye kuko bafite amazi mazima.

Umwana muto cyane ufite indobo ateze mugezi uri kuvamo amazi ariko yishimiye kuba ari kunywa amazi meza aturuka ku mugezi atari ya yandi tudaha mu bidendezi aba akubiye mo ubwoko bw'ama microbe agenda atera uburwayi bugiye butandukanye, ubona ko ibi rwose bizafasha uyu mwana ndetse n'umuryango we kugira ubuzima bwiza bwirinzwe indwara ziterwa n'amazi yanduye.

Abaganga ndetse n'abagangakazi, ubonako bari basuwe n'umushyitsi waje kubaha amahugurwa ajyanye n'umurimo bakora. Ubona ko nyuma y'igikorwa cyo gusurwa ndetse no guhabwa amahugurwa, bafataga ifoto y'urwibutso.

Itsinda ry'abaganga bashinzwe ubuzima bagiye batandukanye, ubona ko bari mu mahugurwa ariko akaba arangiye. Aya mahugurwa akaba yari agamije mu kurengera ubuzima bw'abarwayi bagiye batandukanye, aho bihuguraga ku nama ndetse n'ingamba bafata kugira ngo barusheho, kuzahura ubuzima bw'abantu, bityo barusheho guhangana n'uburwayi bugiye butandukanye, kugira ngo abarwayi bitabweho.

Umwana muto cyane w'umunyeshuri wambaye impuzankano z'umutuku hasi ndetse n'agashati ka karokaro ubona ko ari gukora isuku akaraba amazi meza n'isabune kuri kandagira ukararabe kugira ngo yirinde uburwayi bukomoka ku mwanda ndetse no mu isuku nke.

Itsinda ry'abantu bagiye batandukanye aho umubare munini usa nkaho ari umubare w'abagabo havanzemo n'abagore batari benshi cyane, bisa nkaho bari guhabwa amahugurwa y'uburyo ki bakwita ku buzima bwabo hirindwa indwara zigiye zitandukanye n'uburyo ki bwo kwirinda ubwo burwayi.

Umwana muto cyane w'umukobwa, uri mu kigero cy'imyaka mikeya cyane, ubona ko ari imbere yiwe, hari ibidobo, indobo zigiye zitandukanye, uri ku mugezi uri kuvoma amazi meza, yegerejwe kugira ngo areke gufata ya yandi mabi, bityo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza we ndetse n'umuryango we.

Abana bari mu muzangano ya oranje, basuwe n'ababyeyi bagiye batandukanye, ubona ko umusaza wambaye akajiri ka kaki ari guha uyu mwana ndetse n'abandi igikoma cyangwa se amata kugira ngo abarinde igwingira bityo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Uruhuri rw'abantu bagiye batandukanye bajye gushaka amazi, imbere ukabona ko hari uwambaye ingofero ubakorera ayo mazi kugira ngo abashe kubageraho neza afite isuku kandi kujya buri wese abashe kubona amazi meza kandi asa neza kugira ngo abari kuyashaka n'abayakoresha barusheho kugira isuku ndetse n'ubuzima bwiza.

Abana babiri, umwe wahanitse ukuboko hejuru bose ubona ko bishimye n'uw'inyuma we yishimye n'undi ku ruhande mu nguni wishimye, ubonako basa neza basobanukiwe neza akamaro k'isuku ubona ko rwose ntacyo wabashinja.

Umwana w'umukobwa uri mu mpuzangano z'ubururu ndetse n'ishati y'umweru ari gukaraba amazi meza ku mugezi. Iruhande rwe hari ahabugenewe ho kujugunya imyanda. Muri make ubona ko iki kigo cy'amashuri cyimakaza isuku kugira ngo kirinde uburwayi bugiye butandukanye bukomoka ku mwanda.

Umugore n'umugabo ubona ko bagiye ku ivomero bari kuvoma amazi, ubona ko bose bishimiye ivomero rusange bahawe na Perezida wa Repubulika.

Itsinda ry'ababyeyi bazanye abana babo muri gikuriro kugira ngo babashe guhabwa imirire myiza, ndetse bigishwe n'uburyo bwo gutunganya imirire myiza ndetse no kugaburira abana babo kugira ngo barusheho kurwanya igwingira ry'abana babo, ndetse babongerera no kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abapapa n'aba mamama bagiye batandukanye bari mu isakariro, imbere yabo hari umuganga ufite ikaye ndetse uri kuvugira mu indangururamajwi bisa nk'aho ari kubahugura, ibijyanye n'ubuzima bukoresha amazi nezandetse no kwirinda uburwayi bugiye butandukanye.

Abaganga babiri ndetse n'umurwayi, umuganga umwe uri kwita ku murwayi amupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe uko ibipimo by'umuvuduko w'amaraso we bingana, hagamijwe kugira ngo bamurinde cyangwa se bagabanye ikibazo cyaba giterwa n'umuvuduko w'amaraso afite cyangwa se ubundi burwayi afite, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Abagangakazi batatu bari mu biro byabo ubona nako bari kwandika mu makaye yabo bakoresheje ikaramu ndetse n'undi ku ruhande wicaye ku ntebe urimo areba ibyo aba babiri bari gukora.

Umugore n'umugabo, bisa nkaho, umugabo uri mu itaburiya, ry'ibara ry'ubururu, ufite igishushanyo kiriho abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ari gusobanurira, uyu mumama, uburyo bw'imikurire, y'abana, igihe bwitaweho, hirinzwe, uburwayi, bw'indwara, zagiye zitandukanye.

Abana bato cyane b'abahungu ndetse n'abakobwa, ubona ko bambaye impuzankano, bishimiye kunywa amazi meza kugira ngo birinde uburwayi bukomoka ku mwanda bityo barushaho kugira ubuzima bwiza.

Abaganga ndetse n'abarwayi ubona ko imbere y'abaganga hari ibikoresho bari kwifashisha bavura aba barwayi. Ubonako umwe yafashe ukuboko n'undi afata ukundi k'undi murwayi ubona ko bari kubafasha gupima uburwayi bugiye butandukanye bafite kugira babashe kumenya uburyoki bakwitabwaho ndetse bakurikiranwaho.

Umumama n'umwana we ubona ko ari kuvoma amazi meza yegerejwe atakivoma amazi y'ibidendezi, ubona ko yishimiye kuba afite amazi meza kuko bimufasha kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara zituruka ku mazi yanduye.

Itsinda ry'ababyeyi b'abamama ndetse n'abapapa bisa nkaho bari guhabwa amahugurwa, inama zijyanye n'ubuzima kugira ngo hirindwe indwara zikomoka ku mwanda ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye kugira ngo barusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abaganga babiri ndetse n'umurwayi wicaye mu cyumba, aho ubona ko muganga umwe wafashe igikoresho cyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso, aho ari gusuzuma umurwayi kugira arebe ubwoko bw'uburwayi arwaye, bityo kugira uyu murwayi abashe kwitabwaho, ndetse ku ruhande ubona ko hari undi muganga ufite ibipapuro, usa nkaho ari kugenda areba ibyangombwa by'uyu murwayi wazanywe, nimba koko byuzuye, ndetse akanandika ibipimo muganga wo ku ruhande yabonye.

Umuganga n'umurwayi aho umuganga ari gukingira umurwayi, urukingo uzamurengera mu kwirinda ubwoko bwa virusi yabonetse, kugira ngo uyu murwayi akomeze kumererwa neza ndetse ruzamurinde kwandura iyo virusi cyangwa se kugirwaho ingaruka n'iyo virus.

Itsinda ry'abana batoya bato cyane bari mu myaka mikeya ubona ko bari mu kidendezi cy'amazi ahantu harekera amazi, bari koga amazi asa nabi, bityo barebye nabi byabaviramo kwandura uburwayi bukomoka ku mazi yanduye korera, inzoka, impiswi ndetse n'ibindi.

Umusore ndetse n'umwana muto cyane umusore ari guha urugero rwiza umwana muto cyane, amwereka uko wagira isuku amwigisha gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara zikomoka ku mwanda.

Umugabo wambaye agapfukamunwa iruhande rwe hakaba hari umunyamahanga aho uyu mugabo afashe akabido gasa nabi, umwana usa nabi, umuyamahanga akaba ari gufata iyi foto ndetse n'inyuma y'umwana hakaba hari abandi bantu bri kwitegereza uyu mwana uko asa ndetse n'icyo avomera uko gisa, noneho undi muyamahanga akaba afata ifoto kugira agaragaze umwanda uri muri ako gace kugira ngo barebe icyakorwa.

Itsinda ry'abaganga n'abagangakazi, ubona ko ryishimiye uyu mugabo w'umunyamahanga, ukuze, wambaye agakote keza, usa nk'aho abahugura ku nama zijyanye n'ubuzima, kugira ngo barusheho kunoza umurimo wabo neza.

Ababyeyi babiri ndetse n'abana batatu umwe maroza umwana we imbere y'ivomo isa neza, amwoza amazi meza n'isabune n'undi ubona ko baje kuvoma amazi meza kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza biririnde n'indwara zikomoka ku mwanda.

Ibiganza by'umuntu biri imbere yakandagira ukarabe iri kuzana amazi, iruhande rwe hakaba hari isabune bigaragara ko ari gukaraba amazi meza n'isabune agamije kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Bigaragara ko ari abayobozi bari mu nama, igamije gukemura ibintu bazo runaka cyangwa se igamije kubigisha, ibintu batari basobanukiwe, cyangwa se bari mu mahugurwa agamije iterambere, cyangwa se impinduka mu kazi kabo ka buri munsi.

Abana babiri umwe muto cyane undi ukuze cyane bafite utubido bagiye kuvoma ariko ivomero ritameze neza aho badaha amazi mu kidendezi kirekamo amazi kandi koko bisa nk'aho aya mazi yanduye yabagiraho ingaruka mu buzima bwabo, bityo hakenewe ubuvugizi ndetse no kwigishwa ku mikorere myiza y'amazi.

Umwana muto cyane wambaye imyenda itukura, wishimiye kuba ari gukaraba amazi meza ku ivomo wegerejwe na Leta ry'amazi meza asukuye kugira hirindwe indwara zikomoka ku mwanda.

Itsinda ry'abashinzwe ubuzima bagiye batandukanye, ubona ko bari mu mahugurwa asa nkaho arangiye ariko bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abana bane, umwe uri ku vomo, wafashe ibido akayishyira imbere, akajya inyuma kugira ngo azamure anamanura kiriya cyuma kugira ngo abone amazi meza ashyira ababyeyi kugira ngo babone uko bamutekera ibiryo bifite isuku.

Abaganga ndetse n'umugangakazi ubona ko bicaye imbere y'ameza hariho ubwoko bw'imiti buri mu dupaki dupfunyitse yifashisha iyo bari gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku barwayi babagannye, ubona ko bishimye, banezerewe na serivisi batanga.

Itsinda ry'aba mama n'aba papa, bicaye mu ntebe z'icyubahiro ndetse imbere yabo hakaba hari abantu batatu bagiye kubahugura ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kwirinda ubwabo ndetse no kuzigisha abandi kwirinda, ku ndwara zigiye zidukomoka mu kutagira isuku ndetse n'ubundi burwayi.

Umukobwa uri kumwe n'umwana wiwe uruhande ubona ko uyu mukobwa rwose ari kuvoma amazi y'umugende kandi ay'amazi mu by'ukuri ari amazi aturuka agiye atandukanye bikekwa ko aya mazi ashobora kuba yanduye arimo udukoko twinshi ashobora kuba twatera uburwayi bwitandukanye ubona ko uyu mwana nawe adafite isuku bitewe n'amazi atameze neza bakeneye ubuvugizi.

Abamama babiri ubona ko bose bafite abana, ubona ko bisa nk'aho bagiye kwa muganga cyangwa se kugisha inama kugira ngo barusheho guhabwa inama zabafasha mu kwitaho abana babo neza, kugira ngo barusheho kugira imikurire myiza ndetse n'imibereho myiza.

Itsinda ry'ababyeyi ndetse n'abana babo, bari kumwe n'abaganga babo kugira ngo babahe ubufasha bugiye butandukanye bujyanye n'ubuzima ndetse kugira ngo barusheho gukomeza gusobanukirwa uburyo bwo kwirinda indwara zaba izandura cyangwa se uburwayi butandura.

Icyumba kirimo ababyeyi benshi ndetse n'abana babo ubona ko bazanye abana babo mu kubakingiza ndetse no kubapimisha kugira ngo bite ku buzima bwabo, ndetse n'imikurire yabo, bityo bazabashe gukura neza mu buzima bwiza.

Aba mama batatu, umwe imbere ateze indobo ndetse n'imbasi imbere ya rubine. Abandi babiri barazamura bakamufasha kugira ngo amazi abashe kuza muri robine maze uyu nguyu abashe kuyavoma maze ugira ngo babone amazi meza batarinze kuvoma ibirohwa birimo ama microbes yabatera uburwayi.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero k'imyaka itanu wambaye agakanzu keza k'umutuku, ufite umusatsi utsibye ubona ko yishimiye gukarabira ku ivomo ndetse uibona ko ari imbere y'ibase nini cyane yirabura.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye, ubona ko basa nk'aho bari mu nama cyangwa se amahugurwa, yo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, yo kwirindandi uburwayi bugiye butandukanye ndetse n'ibindi bikomoka ku burwayi bugiye butandukanye.

Umwana ufite ijerekani isa neza, ndetse ubona ko inyuma hari umu mama uriho ufite icyuma azamura ndetse akamanura kugirango ngo amazi abashe kujya muri ya njerekani iri imbere, bityo ubona ko ni nyuma yaho hari abantu benshi bitegereza uburyo ki ababamama ndetse n'uyu mwana, bari kuvoma amazi meza azira umuze, kugira ngo barinde kwandura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye.

Umugabo wambaye umwenda wa siporo akaba yifashe ku gahanga, akaba yikenyeye igitenge, ndetse akaba hari n'ibitenge byinshi yasashe hasi akaba yicaye kuri kimwe muri byo, bigaragara ko uyu papa afite ikibazo cy'ihungabana cyangwa se ikibazo cyo mu mutwe akeneye abajyanama w'ubuzima kugira ngo bamwiteho ndetse n'abandi baganga bashinzwe ibijyanye no mutwe kugira ngo bamwite basi abashe kugira ubuzima .

Umukobwa ufite imisatsi itsibye wifashe mu mutwe bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye yahuye na byo uyu munsi byatumye ubwonko bwe imikorere yabwo ihindagurika.

Umugabo wambaye agashati keza inyuma ye hari abandi ariko ubona ko uyu mugabo yahuye n'ikibazo kihungabana cyangwa se akaba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, aho akeneye ubutabazi bw'ibanze buturutse ku bajyanama b'ubuzima bamuganiriza byakwanga bakamushyikiriza izindi nzego zibishinzwe kugira ngo yitabweho maze abashe kugira ubwonko butekereza neza ndetse bunakora neza.

Biragaragara ko aba babyeyi bari gusobanurirwa bari guhugurwa ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe, bagaragarizwa bimwe mu bimenyetso zabyo, uburyo ki zakwirindwamo n'uburyo ki zakurikiranwa zikavurwa zigakira, igihe zagaragaye mu bana babo.

Umu mama ufite abana babiri bamwegereriye ubona ko rwose afite ikibazo cy'ubushobozi ,ndetse ubona ko akeneye ubufasha kugira ngo abone uko akomeza kwita ku buzima bw'aba bana ndetse n'ubuzima bwiwe.

Umuganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umutwe, aho abahuye n'ibibazo by'ihungabana ndetse n'ibindi bibazo bye bitandukanye bishobora gutuma ubwonko bw'umuntu budakora neza, uyu nguyu arabafasha maze akabakiza akabaha inama cyangwa se akabaha ubuvuzi imiti n'ibindi bityo bakabasha kongera gusubirana ubuzima buzira umuze.

Igishushanyo cy'umutwe w'umuntu kigaragaza umunsi wahariwe ku isi yose, kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe mu kwezi kwa cumi, itariki icumi za buri mwaka.

Umugabo ubona ko ari mu cyanya cyabugenewe, gikusanyirizwamo imyanda, ivuye hirya no hino, yaba ibibora ndetse n'ibitabora, akaba yambaye imyenda isa nkaho ari iya gisirikare, ariko ubona ko atari byo koko mu by'ukuri, ari uko afite ikibazo cyo mu mutwe, hakenewe ubuvuzi bwihutirwa.

Itsinda ry'abagabo ndetse n'abagore ndetse hakaba harimo umwana, ubona nako aba bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, bisa nk'aho bafite ihungabana ndetse n'ibindi, bakeneye ubujyanama bw'ubuzima kubegera kugira ngo barusheho kubahumuriza, bityo bongere bagire ubuzima buzira umuze.

Umubyeyi n'umwana ubona ko bishimye cyane, umubyeyi ubona ko nawe yishimiye umwana, akabona ko n'umwana yishimiye umubyeyi we kandi ubona ko basa neza cyane, bitewe n'uburyo umubyeyi yitaho umwana wiwe, urabona umwana we afite umubiri mwiza, ameze neza yitaweho, ukabona ko n'umubyeyi rwose nawe asa neza anejejwe no kwita ku mwana wiwe.

Umupapa wambaye umwitero ufite ikintu cy'umweru mu biganza byiwe, ufite umusatsi mwinshi ndetse n'ubwanwa, ariko akaba yicaye mu nzira icamo amazi bigaragara ko afite ikibazo n'uburwayi bwo mu mutwe akenewe kwitabwaho n'ababishinzwe kugira ngo yongere agire ubuzima buzima.

Umugabo ufite umusatsi wanduye, ubwanwa bufite umwanda, usakuza cyane, ufite imyenda y'ubushotogoro, uri iruhande rwamazu, bisa nkaho uyu mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye ubuvuzi kugira ngo yitabweho maze agire ubuzima buzima, maze abashe kugira imitekerereze mizima.

Umubyeyi uri iruhande rw'inzu ndetse n'ikimera k'igiti k'icyatsi, ubona ko yikoreye igitebo kirimo imyanda ndetse ubona ko ahuye n'ikibazo k'ihungabana akaba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe akeneye abajyanama b'ubuzima kugira ngo bamuganirize ndetse bamwiteho, kugira ngo yongere asubirane ubuzima buzima.

Umugabo uri hafi y'imodoka, ubona ko ufite ibintu mu ntoki bidasobanutse, usa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe, hakenewe ubutabazi bw'ibanze, kugira ngo yongere nawe abe umuntu nk'abandi yitabweho, ahabwe serivisi z'ubuzima.

Inyubako itangirwamo ubufasha bw'ubuvuzi cyane cyane nko ku wahuye n'ibibazo byo mu mutwe kugira ngo ibafashe ibagire inama, ndetse aho biri ngombwa igire icyo yafasha abahuye n'ubwo burwayi kugira ngo bongere basubirane ubwonko buzima, ndetse n'imitekerereze myiza, bongere gusubirana ubuzima buzira umuze.

Inyubako itanga ubuvuzi ku bahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, maze ikabaganiriza, ikabaha ubuvuzi bw'ibanze ndetse bakongera gusubira mu buzima buzima, bakongera kugira ubwonko butekereza neza nk'uko bahoze.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati nziza y'umutu agapantaro keza, umusatsi umeze neza ndetse n'ubwanwa ameze neza, akaba ari gusuhuzanya n'undi ufite imisatsi ijagaraye ndetse udasa neza wambaye imyenda y'ibincabari usa ndetse n'ahandi yambaye ubusa ubona ko itamukwiye, uyu mugabo ukaba ubona afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe akeneye kwitabwaho.

Abana bato cyane bari mu mpuzankano y'umuhondo, bari guhabwa ubufasha ndetse n'amahugurwa ku bijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, ndetse n'uburyo ki bwakirindwa k'ufite ikibazo nk'iki ngiki kugira ngo yongere na we asubirane ubuzima buzira umuze.

Umwana uryamye ku gatanda muganga nawe akaba ari kumwitaho amufasha kumuvura uburwayi bwe butandukanye ufata amenyo ubona ko umwana yihanganye anishimiye serivisi ari guhabwa na muganga.

Icyumba cy'umurwayi ariko hakaba harimo umuganga, hakaba harimo ibikoresho yifashisha avura abarwayi ariko kubona ko kuri ubu ngubu nta murwayi uri muri iki cyumba ubona ko rwose muganga yishimye cyane asa nkaho ari mu kanya ko kuruhuka.

Icyumba gisuzumirwamo uburwayi bw'amenyo, ubona ko kirimo umuganga ndetse n'umurwayi, ubona ko muganga ari gusuzuma uburwayi bw'amenyo umurwayi yahuye nabwo, ubona ko iruhande rwabo hari ubwoko bugiye butandukanye bw'ibikoresho muganga akoresha asuzuma ndetse anavura uburwayi bw'amenyo bugiye butandukanye abarwayi bagenda bahura nabwo.

Umugabo wambaye ubusa igice cyo hejuru. Ufite mu maso hasa neza. Ufite akadodo gafatishijwe ibiganza bye bibiri. Wamwenyuye yerekana uburyo ki kugirira amenyo isuku ari byiza, bituma asa neza kandi birinda uburwayi bw'amenyo bugiye butandukanye.

Icyumba kirimo ubwoko bw'ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura ubwoko bugiye butandukanye bw'indwara zifata amenyo, ndetse zikaba bwifashishwa n'aba baganga kugira ngo babashe gukurikirana ubuzima bw'amenyo y'abarwayi, bityo kugira ngo babashe gusubirana ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho by'ubwoko bugiye butandukanye biri mu cyumba cya muganga w'amenyo, harimo intebe ndetse n'ibindi. Izi ntebe zikaba zifashishwa mu kwicaza umurwayi bityo kugira ngo yicare neza adahungabanye bityo umuganga abashe kureba mu kanwa ke bityo abasha gusuzuma ubwo bw'uburwayi afite bugiye butandukanye kugira ngo yitabweho.

Muganga w'amenyo ndetse n'umurwayi aho uyu muganga w'amenyo afite udukoresho tubiri ari gukoresha asuzuma uburwayi bw'amenyo uyu murwayi yaba yahuye nabwo kugira ngo abashe kumenya uburyo ki afasha uyu murwayi ndetse kugira ngo abashe kumukurikiranira neza ubuzima bwe bityo uyu murwayi kugira ngo abashe kugira yongere asubirane ubuzima buzira umuze.

Itsinda ry'abaganga ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ubona ko basuye ikigo cy'amashuri bagafata umwe mu banyeshuri wambaye impuzankano y'icyatsi, bamwereka umubare w'amenyo umuntu agira ndetse n'uburyo ki bakora isuku ku menyo, dore ko muganga afite uburoso amwereka uburyo ki bukoreshwamo kugira ngo urusheho kugira isuku y'amenyo.

Umuhungu wicaye mu cyumba cy'uruganiriro akaba yishimiye kuba afite amenyo meza asukuye, akaba agaragaza ko yagerageje gusukura aya amenyo yirinda uburwayi bukomoka ku mwanda bwataka amenyo bitewe nuko atagiriwe isuku.

Icyumba, kirimo, abaganga, ndetse n'umurwayi, wahuye n'ikibazo cy'amenyo, akaba ari kwitabwaho, n'uyu mukobwa, akaba, ari kumusuzuma, uburwayi, bw'amenyo yaba afite, kugira ngo abashe kumenya icyo yamukorera, icyo yamufasha, kugira ngo, amuvure, uburwayi, maze asubirane ubuzima, buzira umuze.

Umupapa n'umugangakazi, ubona ko umugangakazi hari ibikoresho yashyize mu kanwa ke kugira ngo amuvure uburwayi bw'amenyo, yari amaranye igihe, bwamuzengereje kugira ngo yongere amererwe neza.

Umuganga w'amenyo uri kumwe n'umurwayi urwaye amenyo, aho umuganga yafashe ibikoresho bisuzuma uburwayi bw'amenyo bwe butandukanye. Kugira ngo abashe kumenya uburwayi uyu mwana w'umukobwa afite, bityo kugira ngo arusheho kumenya neza uburyo bwo kumufasha ndetse no kumuvura bityo kugira ngo asubirane ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo wambaye indorerwamo wishimiye kumwenyura, kuko ari ntamakemwa amenyo ye yayagiriye isuku akaba ameze neza kugira ngo arusheho no kutwereka no kwigisha abandi, kugira isuku y'amenyo kuko birinda uburwayi ndetse n'utundi dukoko dushobora kwinjira dutewe n'umwanda, tugateza uburwayi bw'amenyo maze akaba nabi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura ubwoko bw'indwara z'amenyo kugira ngo byifashishwe mu kuvura abarwayi bafite ibibazo by'amenyo kugira ngo barusheho kongera kugira amenyo meza, afite isuku kandi atarwaye.

Umugabo wamwenyuye akaba afite urudodo mu maboko ye, rukaba ruca mu nyinya y'amenyo bisa nkaho arukoresha asukura amenyo ye, bityo kugira ngo yite ku buzima bw'amenyo ye yirinda ubwoko bw'uburwayi bufata amenyo bitewe n'umwanda, bityo akaba arushaho kugira ngo azakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uriho werekana mu kanwa agaragaza amenyo ye yerekana isuku ayagira, ashishikariza n'abandi ko gukora isuku y'amenyo ari byiza bifasha kandi birinda ubuzima bw'amenyo, ndetse bikarinda n'uburwayi bugiye butandukanye yahura nabwo.

Icyumba gikubiyemo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura ndetse gusuzuma uburwayi bw'amenyo bugiye bitandukanye. Ubona ko hari intebe y'umurwayi yegamamo bityo muganga akabasha kureba neza mu kanwa ke agakurikirana ndetse agasuzuma uburwayi umurwayi afite, bityo akabasha kumwitaho ku buryo asubirana ubuzima buzima.

Igishushanyo kiriho ifoto y'igice cy'umunwa cyasamye, kigaragaza amenyo y'umuntu yerekana uko uburwayi bugiye butandukanye, bwataka amenyo y'umuntu igihe atagize isuku ngo ayiteho akoresheje uburoso n'umuti wabugenewe, aho utabikoreshe neza ahura n'ibibazo by'ubuzima.

Igice cy'umunwa kibumbuye hagaragajwe amenyo y'umuntu, hagaragazwa uburyo ki amenyo agomba kugirwa isuku, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza bw'amenyo twirinda uburwayi bwataka amenyo yacu, bityo bikaba byatugiraho ingaruka bityo turagirwa inama yo kugirira isuku amenyo yacu.

Abaganga babiri, umugangakazi ndetse n'umuganga bari kumwe n'umurwayi w'umwana muto cyane, bari kureba ikibazo cy'uburwayi cy'amenyo afite, hirya yabo hariho intumbero yabo, intego zabo n'ibyo bakora kugira ngo barusheho gutanga serivisi nziza z'ubuvuzi z'amenyo.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ubwoko bugiye bitandukanye, byifashishwa na muganga w'amenyo kugira ngo asuzume uburwayi bugiye butandukanye, abarwayi bahura na bwo bityo kugira ngo abashe kwita ku buzima bwabo na bo bongere kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abana bato cyane bambaye impuzankano y'ubururu, bakaba buri wese afite uburoso ari kwifashisha asukura amenyo ye kugira ngo arusheho kugira isuku y'amenyo yirinda ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye buturuka ku mwanda.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye bufata amenyo, hakaba harimo umuganga uri kureba imikorere, usuzuma uburyo ki ibyuma cyangwa se ibikoresho bikora, bityo kugira ngo abitunganye, igihe haza umurwayi bibashe kuba byakoreshwa, byizewe imikorere yabyo.

Abaganga babiri umwe wambaye indorerwamo ndetse undi wambaye uturindantoki, wambaye impuzankano y'ubururu. Imbere yabo hari umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo. Ubona ko muganga arikumwitaho amuvura uburwayi bw'amenyo kugira ngo uyu murwayi yongere kumererwa neza maze asubiranye amenyo ameze neza atarwaye.

Ubona abana batoya ndetse n'umurezi wabo basa nkaho bishimiye gahunda y'amahugurwa bahawe ajyanye n'ubuvuzi bw'amenyo ndetse n'isuku y'amenyo, uburyo amenyo isuku yayo igomba kwitabwaho, ubona ko bahawe ibikoresho byifashishwa mu gusukura amenyo, ubona ko babyishimiye cyane.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye muganga w'amenyo yifashisha yakira, anavura umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo.

Icyumba kirimo umuganga ndetse n'umurwayi, muganga akaba ari umuganga w'amenyo ari kuvura uburwayi bw'amenyo uyu mwana yaba afite, ubona ko iki cyumba gikubiyemo ibikoresho by'ubwoko bugiye butandukanye muganga w'amenyo akoresha avura abarwayi bafite ibibazo by'amenyo, kugira ngo babashe kongera kugira ubuzima buzira umuze.

Icyumba gikubiyemo ibikoresho bye bitandukanye, n'intebe ndetse n'ibindi byo mu buvuzi, hifashishwa mu kuvura uburwayi bw'amenyo, bityo kugira ngo barusheho gufasha ufite ibyo bibazo kugira ubuzima bwiza.

Umusore wishimye wambaye ishati ifunguye ibifungo, wamwenyuye ugaragaza isuku y'amenyo ndetse atwereka ko kugira isuku y'amenyo ari byiza bifasha mu kurinda ubwo bw'uburwayi bugiye butandukanye bufata amenyo.

Umubyeyi usa nk'aho akuze cyane w'umumama, ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yarambuye amaguru, ndetse agahina ukuguru kumwe, ukundi akakurambura, kugira ngo agorore ingingo z'umubiri we, bityo arusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara zitandura, zikomoka kudakora imyitozo ngororamubiri.

Muganga n'umusaza uri mu kagare ufite ubumuga bwo kutagenda, akaba ari kumusunika kugira ngo amugeze aho amufashiriza, kumuvurira uburwayi afite bugiye butandukanye.

Ababyeyi batatu umwe ufite telefoni hagati yabo uri usa nk'aho ari kubigisha imikoreshereze ndetse n'imikorere y'ikoranabuhanga rya telefoni abasobanurira byimbitse uburyo iki iri koranabuhanga rikoramo.

Umubyeyi ukuze cyane, munini, ufite inkoni agenderaho, yiyicariye, akaba hari umugangakazi wamwegereye, akaba bisa nkaho yishimiye inama yahawe n'uyu muganga zizamufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umupapa n'umumama bose bambaye isaku kuboko banezerewe bashimishijwe n'ibyishimo bakura mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kwirinda uburwayi buturuka ku ndwara zitandura bitewe no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Abakecuru babiri bakuze bagendera ku gakoni ndetse iruhande rw'abo n'inyuma y'abo hakaba hari urubyiruko rugifite imbaraga ubona ko bafite imbaraga ndetse n'ingufu zo kuva aho bari ndetse no kujya aho bagiye. Ubonako aba ngaba bitewe n'imyaka bagenda gake gahoro gahoro k'uko barakuze cyane ntabwo umubiri wabo ugikora neza.

Abantu babiri; umugore n'umugabo ubona ko bakuze, imbere yabo hari amoko y'ibiribwa bigiye bitandukanye basa nkaho bagiye gufungura, banezerewe n'aya mafunguro bagiye gufata.

Umusaza w'imvi wambaye indorerwamo uri kwandika mu ikaye ariko ikaye ikaba iri ku meza, iruhande rwe hakaba hari telefoni ndetse n'ibindi bikoresho biri kuhagaragara.

Umusaza iruhande rwe hari umuganga ubona ko uyu musaza uryamye ku gitanda iruhande rwe hari ibikoresho bigiye bitandukanye asa nkaho arembye, uyu muganga akaba aje kumwitaho kugira ngo abashe kumenya neza ndetse anavure uburwayi bw'uyu musaza uryamye hano ku gitanda afite.

Abantu babiri harimo umukecuru w'umuforomokazi, ndetse n'umubyazakazi, ubona ko rwose bishimiye n'akazi bakora, aho bari bari mu cyumba gisa nkaho bari mu gihe cy'akaruhuko.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi ufite ikibazo cy'uko yabaye pararize umubiri we utagikora neza, ari kumugendesha kugira ngo amufashe kugorora ingingo ze zahinamiranye zitabasha gukora neza.

Umwana w'umukobwa uri kumwe n'umukecuru bisa nkaho ari mama we, umukecuru akaba afite icyuma cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ariko cyifashishwa mu kurambura ukuboko, umwana we akaba ari kubimufashamo mu kurambura ingingo ze z'umubiri, kugira ngo abashe kugira ingingo ze zikora neza.

Abaganga ndetse n'abarwayi babagannye ubona ko abaganga bari gusuzuma uburwayi bugiye butandukanye kuri aba barwayi babagannye, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza.

Umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza ubuzima bw'ibidukikije washyizeho itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, kugira turusheho kubungabunga ibidukikije maze na byo birusheho kugira ubuzima bwiza, maze biduhe umwuka mwiza, amazi meza ndetse n'ibindi.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abagore, harimo kubavura indwara zigiye zitandukanye, nka kanseri ndetse n'ubundi burwayi, cyashyizweho muri mata hagati y'itariki zirindwi n'itariki umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu mu gihugu cya Canada.

Imbonerahamwe igaragaza amezi ndetse n'igihe bishobora gufata umuntu kugira ngo abe yakuramo inda bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye z'ubuzima.

Itsinda ry'abantu batandukanye b'ibitsina bitandukanye, ubona ko bari mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo inama, bisa nkahoho bari guhabwa amahugurwa ajyanye n'ubuzima buryo ki bagira ubuzima bwiza n'ubu ki bakwirinda guhura n'ingaruka z'uburwayi buterwa n'ibintu bigiye bitandukanye, bahugurwa uburyo babyitwaramo.

Ubona ko aba baganga bari gusuzuma uburwayi bugiye butandukanye buterwa n'amavirusi agiye atandukanye, nk'urugero nka covide cumi n'icyenda yaje mu Rwanda mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda, ndetse ubona ko bisa nk'aho ariyo virusi bari gupima aba baturage.

Abamama bane buri wese ufite umwana abana basa nk'aho bari mu kigero cy'imyaka imwe, bisa nk'ho bagiye gushaka ubafasha kubaganiriza ndetse no kwikomeza kwita ku mikurire n'imibereho myiza y'abana babo.

Abaganga bwambaye bikwije, imyenda yabugenewe kugira ngo ibafashe mu kazi kabo, nabo ibarinda kuba bakandura uburwayi buturutse ku murwayi, kugira ngo nabo bakore akazi kabo neza, birinze mu kwandura uburwayi, ubona ko iyi myenda rwose ari myiza cyane.

Umugabo munini wambaye ingofero ndetse n'indorerwamo ureba ku ruhande inyuma ye hari igiti, inyuma ye icyo giti hakaba hari inyubako nziza ufite urupapuro rwandikijweho ikaramu y'umutuku, yanditseho amagambo avuga ko urukingo rw'indwara y'ubushita buturuka ku nkende ubu rwabonetse.

Igishushanyo kigaragaza inyubako yaho umunsi mukuru Mpuzamahanga wahariwe kwizihiza umunsi wo kurwanya indwara y'isukari, ikunze kumenyekanira ku izina rya diyabete, hagaragara insanganyamatsiko yo gukwirakwiza ubumenyi ndetse no gufasha abahuye n'iyi ndwara kugira ngo bitabweho, barusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako y'ubucuruzi, iherereye i Kanombe, icuruza imiti igiye itandukanye, kugira ngo ifashe abarwayi, cyangwa se abayigana, abakiriya bayo, kugira ngo borohereze ibahe ubutabazi bw'ibanze, ku burwayi bugiye butandukanye bagiye bafite.

Inyubako y'ubuvuzi ifasha ababyeyi bagiye kubyara kugira ngo bitabweho mu gihe cyo kubyara, kugira ngo abana babo baze kuba ari bazima ndetse n'ababyeyi baze kuba bazima mu gihe cyo kubyara. Kandi ubona ko imbere y'aho hahagaze abakozi babishinzwe gufasha ababyeyi bagiye kubyara.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwakira abarwayi, ni ibitanda ubona ko hari abarwayi baryamye kuri ibi bitanda, iruhande rwabo hari ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bitabweho, hejuru yabo hakaba hari inzitiramibu nayo iba ibafasha, mu kurara neza birinda malariya, nayo ishobora kuba indi nzitizi yindi yakangiriza ubuzima bwabo.

Inyubako itangirwamo ubufasha, ubuvuzi ikubiyemo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ibyifashishwa kwakira abarwayi nk'igitanda ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye muganga yifashisha kugira ngo abashe gusuzuma uburwayi bw'umurwayi bityo abashe kumenya icyo umurwayi arwaye kugirango ngo abashe kumufasha kugira ngo yongere asubirane ubuzima buzira umuze.

Inyubako y'ubuvuzi itanga ubufasha ku bahuye n'ibibazo by'uburwayi, ubona ko imbere y'umuryango wayo hari umuntu uvayo uvuye kwakayo ubufasha, ubona ko imbere y'umuhanda mbere yuko winjirayo hari undi uhagaze uriko witegereza, aho hantu uko hameze bitewe n'ubwiza bwaho.

Inyubako nziza y'ubuvuzi ifasha abahuye n'uburwayi bugiye butandukanye kugira ngo ibavure bamererwe neza kuko ibamo, ikubiyemo ibikoresho ndetse n'abaganga b'inzobere byifashishwa kugira ngo bavure abahuye n'ibibazo by'uburwayi kugira basubirane ubuzima buzira umuze.

Inyubako y'ubuvuzi, ikigo nderabuzima cya Rwerere, itanga ubufasha, mu kuvura abahuye n'ibibazo by'uburwayi, abafite indwara zigiye zitandukanye, bagana kugira ngo babahe ubuvuzi bw'ibanze, bityo n'abananiwe bakabasha kubohereza ku bindi bitaro bikuriye iki ngiki, kugira ngo bibarusheho guhabwa ubuzima buzira umuze.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwakira abarwayi n'ibitanda, aho ubona ko hari umurwayi uryamye ku gitanda ndetse ukabona ko hari ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga mu kwita ku burwayi bw'aba barwayi. Ndetse ubona ko iruhande rw'uyu murwayi uryamye ku gitanda ari umugabo urikuzinga inzitiramibu.

Inyubako y'ubuvuzi, imbere y'aho hari imodoka ndetse n'abandi bantu basa nk'aho bagiye gushaka abaganga kugira ngo babafashe koroherwa ndetse no gukira uburwayi bafite. Abandi na bo bari imbere ya kandagira ukarabe, barakaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira birinde uburwayi buturuka ku mwanda.

Inyubako y'ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyarugenge, ishinzwe kwakira abafite uburwayi kugira ngo babahe ubufasha maze babashe kumererwa neza maze basubirane ubuzima buzira umuze.

Inyubako y'ubuvuzi ikubiyemo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo babashe gusuzuma ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye bw'abarwayi bagiye batandukanye baba bafite, bityo kugira ngo ubuzima bwabo bwitabweho babashe kugira ubuzima buzira umuze.

Inyubako y'ubuvuzi itangirwamo ubuvuzi bw'uburwayi bugiye butandukanye, ariko uburwayi butagaragarira inyuma bwa burwayi bugaragara imbere, harimo ibikoresho byifashishwa kugira ngo busuzume uburwayi burimo imbere, umurwayi yaba afite butabasha kugaragarira inyuma.

Inyubako y'ubuvuzi irimo abaganga batatu ndetse n'abarwayi babiri, aho iruhande rwabo ho hariho ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gusuzuma uburwayi bugiye utandukanye, nkaho uyu mugangakazi ubona ko afite igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma umuvuduko w'amaraso, kugira ngo abashe kumenya uburyo ki uyu murwayi ahagaze, bicyo abashe kumenya uburyo ki yakurikirana ubuzima bwabo.

Inyubako y'ubuvuzi yakira abafite ibibazo by'uburwayi bugiye butandukanye, kugira ngo ibafashe kumererwa neza ibavure uburwayi ndetse bwitabweho neza ahabugenewe, kuko ikubiyemo ibikoreshogiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo babashe kubwitaho.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivise z'ubuvuzi ku barwayi bafite uburwayi bugiye butandukanye ubona ko rwose zifite isuku hameze neza cyane.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ubwoko bw'ibikoresho bugiye butandukanye, byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi bahuye n'ibibazo by'uburwayi kugira ngo babashe kongera kumererwa neza.

Inyubako y'ubuvuzi icururizwamo amoko y'imiti agiye atandukanye, afasha abafite uburwayi bugiye butandukanye kugira ngo babone ubuvuzi kugira ngo bongere bamererwe neza.

Inyubako y'ubuvuzi ubona ko yubatswe neza, itanga ubufasha ku barwayi bahuye n'ibibazo by'ubuzima kugira ngo bitabweho, aha ngaha kandi urabona ko hasakawe neza ku buryo bumeze neza, ku buryo umurwayi atanyagirwa kandi atahungabanywa.

Inyubako itangirwamo ubufasha bw'ubuvuzi, imbere y'iyi nyubako hakaba hari amoko y'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ndetse n'umuntu wambaye imyenda y'umutuku. Bisa nkaho aba bantu baje gusaba, ubufasha kubera ko bahuye n'uburwayi, bityo kugira ngo bongere basubirane ubuzima buzira umuze.

Inyubako y'ubuvuzi, irimo ubusitani bwiza, bumeze neza ndetse n'inzira nziza, ubona ko hari abarwayi bahangannye, bashaka ubufasha kugira ngo bitabweho basuzumwe, barebe ubwoko bw'uburwayi baba bafite maze kugira ngo bavurwe, bongere bamererwe neza.

Inyubako y'ubuvuzi ifasha abahuye n'ibibazo by'uburwayi kugira ngo ibavure maze bongere basubirane ubuzima buzima, ubona ko harimo ahakirwa abarwayi, intebe abarwayi baza bakicaramo kugira ngo bategereze abaganga kugira ngo baze kubafasha ibibazo byabo by'uburwayi bahuye nabyo.

Inyubako y'ubuvuzi ikubiyemo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gufasha abarwayi baganye iyi nyubako, kugira ngo bongere basubirane ubuzima buzima, bongere basabane, bongere bidagadure, bongere bishimiye, bongere bamererwe neza kurusha uko baje bameze.

Birasa nk'aho ari uruganiriro ruteretsemo intebe, ndetse hakaba harimo n'ibimera by'umutako, kandi bisa nkaho ku meza naho harimo hateguye neza, ku buryo hariho imitako ituma hagaragara neza cyane.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, imbere yaho ubona ko hari kandagira ukarabe hari abagabo bari gukaraba amazi meza n'isabune, ndetse imbere yaho hahagaze imodoka ndetse n'abandi bantu bisa nkaho baje gusaba serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako y'ubuvuzi, imbere yaho ubona ko hateye ibiti bituma igaragara neza, ikaba itanga serivisi z'ubuvuzi ku barwayi bameze neza, ikabasha kubafasha bakongera kumererwa neza.

Iyubako y'ubuvuzi itanga ubufasha ku barwayi batameze neza bafite ibibazo by'ubuzima kugira ngo ibafashe bongere kugubwa neza, bongere gusubirana ubuzima buzira umuze, aho ubona ko irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi ku babagana.

Inyubako y'ubuvuzi ubona ko mo imbere imeze neza isa neza, ikaba irimo imyanya igiye itandukanye, aho abarwayi bitewe n'uburwayi bafite bagenda bagirwa, aho buri cyumba kiba kirimo umuganga wita ku barwayi bitewe n'uburwayi batagiye bafite. Buri cyumba kikaba kiba girimo umuganga utandukanye n'undi, kugira ngo babashe kwita ku barwayi, kubaha ubuzima bwiza.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gihe basuzuma uburwayi bugiye butandukanye abarwayi bahura na bwo, bityo kugira ngo bite ku buzima bwabo babashe kongera kumererwa neza.

Inyubako y'ubuvuzi izwi nko kwa Nyirinkwaya, aho ubona ko iki ari ikirangantego cyayo, akaba ari amarembo yayo, aho umuntu yinjirira ushaka serivisi, ubona ko itunganyije imeze neza, uramutse winjiye mo imbere urabona ko harimo ibimera, hari jaride, zibasha gutanga umwuka mwiza.

Umuforomokazi ufite imisatsi itsibye, wambaye agapfukamunwa ndetse n'indorerwamo, uri imbere ya mudasobwa, bisa nkaho ari gukorera akazi kiwe kuri mudasobwa, bisa nkaho hari dosiye y'umurwayi ari gushakisha.

Inyubako y'ubuvuzi icururizwamo ubwoko bw'imiti bugiye butandukanye, ubona ko bwifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanya abarwayi barwaye, bityo kugira ngo biborohereze kumererwa neza, aho ubona ko hakinguye biteguye kwakira ababagana kugira ngo babafashe.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa gusuzuma umurwayi, kugira ngo habashwe kumenya ibibazo umurwayi afite, bityo byitabweho abashe guhabwa ubufasha, ubona ko harimo muganga uri gusuzuma imikorere y'iki cyuma bityo kugira ngo abashe kuza gufasha abarwayi bari buze kumugana kugira abasuzume nta rwikekwe ndetse nta kosa nta makemwa.

Inyubako y'ubuvuzi imbere yayo hari ubusitani bwiza ndetse yubatswe mu mabuye y'amakoro, ubona ko imbere yayo hari abarwayi bahagannye bashaka serivisi z'ubuvuzi kugira ngo babashe gukurikirana ubuzima bwabo uko buhagaze, maze barusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma ubwoko bw'uburwayi abarwayi baba bafite bugiye butandukanye, kugira ngo hamenywe uko bakita ku barwayi ndetse no kubavura uburwayi bafite, bityo babashe gusubizwa ubuzima buzira umuze.

Inyubako y'ubuvuzi icururizwamo imiti igiye itandukanye, yifashishwa kuvura uburwayi bugiye butandukanye kugira ngo abarwayi bafite uburwayi nk'ubwo ngubwo bugiye butandukanye, babone ubuvuzi maze bakomeze kurushaho kubaho neza ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Inyubako y'ubuvuzi irimo umuganga wambaye imyenda y'ubwirinzi bwamurinda kwandura uburwayi buturuka, ku barwayi ndetse iruhande rwe hakaba hari indobo y'icyatsi ndetse ku rundi ruhande hariho indobo, y'ubururu yifashishwa kuvoma amazi amwe n'amwe yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Inyubako y'ubuvuzi y'ibitaro bikuru by'akarere ka Rwamagana, imbere yaho hariho abagore n'abagabo b'inzego zitandukanye z'ubuzima, ubonamo Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, bisa nk'aho bari bari mu mahugurwa y'uburyo bwo kurwanya uburwayi bugiye butandukanye, ubona ko basoje baza imbere y'ibi bitaro kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso.

Abantu b'inzego n'ibyiciro bigiye bitandukanye, harimo Abanyamahanga, Abanyafurika cyangwa se Abanyarwanda bari ku ibuye fatizo by'inyubako y'ibitaro bikuru bya Butaro mu Karere ka Burera, bishimiye ishyirwaho ry'ibi bitaro kuko byazanye ubuvuzi buvura Kanseri, bukaba byaratumye umunsi wa none abantu bamerewe neza.

Inyubako igaragaza aho ababyeyi batwite iyo igihe cyabo kigeze cyangwa se abafite ibibazo by'inda bajya kwakirwa kugira ngo babashe kwitabwaho, maze abagejeje igihe cyo kubyara maze bakitabwaho bakabyara, ndetse n'abagize ikibazo byo gukuramo inda cyangwa se inda zivuyemo zitateganyijwe bakitabwaho kugira ngo ba bakemurire ikibazo cyabo.

Inyubako y'ubuvuzi icururizwamwo ubwoko bw'imiti bugiye butandukanye, bwifashishwa mu kuvura ubwoko bw'indwara zigiye zitandukanye abarwayi bagenda bagaragaza kugira ngo hitabweho ubuzima bwabo barusheho kugira ubuzima buzira umuze, ubona ko imbere hari abamotari baparitseho amapikipiki yabo baje kugura iyo miti.

Abantu b'ingeri zitandukanye ubona ko bari kugana ku nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kugira ngo bafashwe ku burwayi bw'ubuzima bugiye butandukanye bagiye bafite.

inyubako y'ubuvuzi ikubiyemo inebe, aho gushyira imyanda, kugira ngo bafashe ababagana kubafasha kubaha ibyo bashaka, kugira ngo barusheho kumererwa neza kurusha uko bari bameze.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abagize n'ikibazo cyangwa se bahuye n'ibibazo by'uburwayi kugira ngo bitabweho bongere bamererwe neza, nka mudasobwa ndetse n'ibindi muganga yifashisha kugira ngo abashe kubitaho.

Inyubako y'ubuvuzi irimo abaganga bambaye imyenda ibarinda kwandura virusi zituruka ku barwayi bakira ndetse hakaba hakubiyemo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwakiriraho abarwayi, byo gukoresha bavura abarwayi, uburwayi bugiye butandukanye kugira ngo bakomeze kurushaho kumererwa neza ndetse banakire.

Ibitaro bikuru by'akarere ka Nyanza hari geti yabyo isa ubururu ndetse n'imbere hagaragara iminara ndetse n'inyubako nziza ndetse n'ubwoko bw'ibiti butanga akayaga ku bahagana.

Inyubako y'ubuvuzi ikaba ari inyubako ikigo nderabuzima cya Kigina yifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye, abaturage cyangwa se abantu bagenda bahura na bwo kugira ngo babashe kongera kugira ubuzima buzima.

Inyubako itangirwamo ubufasha ku barwayi, harimo ibikoresho byifashishwa mu kwakira indembe, ibitanda, ibikoresho by'abaganga bakuriki batanga serivisi, ubona ko hari abarwayi baryamye ndetse n'abarwaza kugira ngo bahabwe ubufasha bakire uburwayi bafite.

Umunyonzi wari utwaye umugenzi, bisa nk'aho umugenzi yarigeze aha agera, ubona ko afite indobo, ishoborara kuba irimo ibigemurwa yari agemuriye abarwayi bari kuri iki kigo nderabuzima cya Gisenyi.

Inyubako y'ubuvuzi ivura abana bahuye n'ibibazo by'uburwayi bigiye bitandukanye, aho aha hasangwa abaganga babugenewe babasha gusuzuma aba bana bafite ibibazo by'uburwayi kugira ngo bongere bakire bagire ubuzima bwiza, bityo bongere basubirane ubuzima buzima.

Inyubako itangirwamo ubufasha bw'ubuvuzi. Aho harimo umuganga wicaye ku ntebe ndetse n'umwana w'umunyeshuri wagize ikibazo wahuye n'ikibazo cy'uburwayi akaba ari gufashwa n'uyu muganga ubona ko ari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso, amufata ibizamini kugira ngo abashe kumenya uko uyu mwana amerewe. Hakaba harimo akabati k'imiti y'ubwoko igiye itandukanye ndetse n'ibikoresho umuganga yifashisha avura.

Inyubako y'ubuvuzi ikubiyemo ibikoresho bigiye bitandukanye muganga yifashishwa kugira ngo abashe kwakira abarwayi bagiye batandukanye bityo abashe kubasuzuma uburwayi bugiye batandukanye bafite kugira ngo babashe kongera gusubirana ubuzima buzira umuze. Ubona ko aha ariho hakirirwa abarwayi.

Inyubako y'ubuvuzi harimo umuganga wicaye ku ntebe, inyuma yiwe hari ibikoresho bigiye bitandukanye yifashisha yakira ndetse anavura abarwayi kugira ngo bongere kumererwa neza.

Inyubako y'ubuvuzi itangirwamo ubufasha mu kuvura abafite indwara ya Kanseri zifata ibice bitandukanye by'umubiri w'umuntu. Aha ngaha abafite uburwayi bwa Kanseri bwafashe ibice bitandukanye by'umubiri bwabo, bitabwaho bafashwa n'abaganga basanga hano muri iki kigo.

Inyubako itanga ubufasha bw'ubuvuzi, mbere y'uko uyigeraho hari ikirangantego cyangwa se icyapa kiriho inyandiko, cyanditseho ibyo iyi nyubako itanga ku bayigana, ndetse igihe ikoreraho, ifunguriraho, ndetse ubona ko iruhande rwho hari amajaride n'umusitani yifashishwa kugira ngo atange akuka keza.

Inyubako y'ubuvuzi ikubiyemo ibikoresho by'ubwoko bugiye butandukanye, yifashishwa mu kuvura abarwayi kugira ngo bongere kumererwa neza kuko igihe bazayo baba batameze neza.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, yifashishwa kuvura abarwayi bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho ubona hari umugabo uryamishijwe ku gatanda, akaba yambaye agapfukamunwa ndetse akaba hari ibikoresho bicometse ku mubiri wiwe, biri kumufasha kubona imiti ndetse n'izindi ntungamubiri, bityo bikaba biri kumwongerera intungamubiri bimufasha gukomeza kubaho ndetse n'imiti imuvura kugira agaire ubuzima bwiza.

Inyubako y'ubuvuzi itanga ubufasha ki barwayi bahuye n'ibibazo by'uburwayi bugiye butandukanye, kugira ngo ibafashe bongere kumererwa neza ubona ko yuje ifite isuku, ikozwe mu makaro mu marangi meza ndetse ubona ko isa neza.

Inyubako itangirwamo ubufasha bw'ubuvuzi, harimo umubyeyi ndetse n'umwana wicajwe, ku gatebe iruhande rwe hari udukarito tw'imiti tugiye dutandukanye, ndetse mubona ko muganga yafashe uyu mwana amaboko, ndetse iruhande rwa muganga ukabona ko hari ibikoresho bigiye bitandukanye, yifashisha avura abarwayi bamugannye. Ubona ko umubyeyi yanejejwe n'uburyo ki muganga ari gufasha umwana we, amubwira ngo yongere amererwe neza.

Uruganiriro rurimo intebe, ameza hagaragara ko ari ahantu habugenewe hakorerwa ibikorwa by'inama bigiye bitandukanye, hagamijwe gufata imyanzuro ku bibazo bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubuvuzi ifasha ababyeyi batwite bagiye kubyara, kugira ngo ibafashe kubabyaza maze abana baze ari bazima ndetse n'ubuzima bw'ababyeyi bwitabweho, imbere yabo hari ameza ariho abaganga, ndetse ni ku ruhande ku muryango hariho umugabo w'umuganga uhagaze iruhande rw'umuryango ufunguye.

Inyubako y'ubuvuzi ikubiyemo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ibikoresho byifashishwa mu kwakira abarwayi, ibitanda ndetse n'ibindi abaganga bifashisha mu gihe bakurikirana basuzuma uburwayi abarwayi barwaye, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kwitabwaho bube bwiza kurushaho.

Inyubako itanga ubufasha bw'ubuvuzi ikaba irimo umuganga ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda aho umuganga ari kwita ku buzima bw'uyu murwayi, amubaza uko amerewe ndetse anashyira bimwe mu bikoresho ku mubiri we kugira ngo abashe gusuzuma uburyo ki ubuzima bw'uyu murwayi buhagaze, bityo amenye icyo yakora kugira ngo agarure ubuzima bwe ku murongo.

Inyubako y'ubuvuzi ikubiyemo ubwoko bw'ibikoresho bugiye butandukanye, bwifashishwa n'abaganga kugira ngo basuzume uburwayi bugiye butandukanye, abarwayi bahura na bwo kugira ngo babashe kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, bityo babashe kubitaho neza.

Umumama ubona ko akuze cyane uri kumwe n'umusore w'umuganga ubona ko umumama anezerewe no kumubwira ibibazo by'uburwayi agenda ahura nabyo ,ndetse unabona ko n'umuganga ateze amatwi ari kumvamva ibyo umukecuru amubwira.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ubwoko bugiye butandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bifasha ababikoresha kugira ngo birinde indwara zitandura nka diyabete, umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije, bityo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yo kwa muganga itanga serivisi z'ubuvuzi iki kikaba ari icyumba kimwe muri byo ikubiyemo ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubufasha ku bafite ibibazo by'uburwayi harimo ibitanda harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi byifashishwa kugira ngo bavure abagize ikibazo cy'uburwayi.

Inyubako y'ubuvuzi ikubiyemo ibikoresho bigiye bitandukanye. Ikaba ari inyubako yifashishwa mu bushakashatsi bw'imiti ndetse n'imikorere y'imiti ndetse n'inkingo zigiye itandukanye kugira ngo bayisuzume mbere y'uko ihabwa abarwayi.

Inyubako y'ubuvuzi igaragaza ibitaro bikuru by'akarere ka Shyira, ikaba yifashishwa gutanga ubufasha ku barwayi bahuye n'ibibazo by'ubuzima, kugira ngo ibafashe basubirane ubuzima, maze bongere bamererwe neza nkuko bari bameze.

Inyubako y'ubuvuzi itangirwamo ubufasha k'ubuvuzi cyane cyane hitabwaho kwita ku buzima bw'abana bahuye n'ibibazo by'uburwayi kugira ngo bitabweho bavurwe bongere gusubirana ubuzima uzira umuze.

Inyubako y'ubuvuzi itangirwamo ubufasha ku barwayi bahuye n'ibibazo by'uburwayi bigiye bitandukanye, bagana hano kuri iyi nyubako kugira ngo ibafashe kumererwa neza bityo basubirane ubuzima buzira umuze.

Inyubako y'ubuvuzi irimo abaganga bambaye impuzankano, uturindantoki, udupfukamunwa ndetse imbere yabo hakaba hari ubwoko bw'ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu kuvura abarwayi bagiye batandukanye bitewe n'uburwayi bafite, ubona ko bari gusuzuma imikorere yabyo mbere y'uko bagira uwo bakira.

Inyubako y'ubuvuzi harimo ibitanda bisashe neza mu mashuka y'icyatsi ndetse n'ibikoresho ku ruhande, kuri igitanda gikurikiraho ubona ko byifashishwa mu kwakira abarwayi ndetse ibikoresho byegereyeho bigafashishwa n'abaganga mu gihe bavura abarwayi, ibibazo by'uburwayi bitandukanye baba bafite.

Arasuka amazi meza mu gikombe kugira ngo ayanywe kuko avuye mu myitozo ngororamubiri hari ayo yatakaje aragira ngo asimbuze ayo ngayo kugira ngo arusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze.

Icyumba kirimo ibikoresho byabugenewe byo gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye harimo kugabanya inda, harimo kugorora umubiri, ndetse n'ubundi bwoko bw'imyitozo ngororamubiri, kugira ngo harusheho kurwanywa indwara zitandura n'imivuduko y'amaraso diyabete ndetse n'izindi zatakaka abantu.

Amoko y'imiti igiye itandukanye ipfunyitswe mu bipfunyika bigiye bitandukanye, aho imwe iri mu ducupa tugiye dutandukanye, indi ikaba iri mu bihuho bigiye bitandukanye, mu masashi ariko ahabwa umuntu wagize imvune cyangwa se ikibazo mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Igikoresho kifashishwa mu guterura ndetse no mu gutwara uwahuye n'ikibazo k'imvune, mu gihe yari ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ajyanwe ahabugenewe, kugira ngo yitabweho n'abaganga, maze abashe kongera gusubirana ubuzima buzira umuze.

Abakinnyi babiri, umwe ufite imipira ibiri mu kuboko, undi nawe we ufite utwuma twabugenewe twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, hirindwa indwara zikomoka kudakora siporo n'indwara zitandura nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi.

Muganga ndetse n'umurwayi usa nk'aho aryamye ku gitanda urihabwa ubuvuzi bw'ingororangingo bisa nkaho uyu murwayi yavunikiye mu myitozo ngororamubiri akaba ari guhabwa ubuvuzi ngororangingo kugira ngo yongere kugira ubuzima buzira umuze maze yongere gusubirana mu buzima yari asanzwe arimo kuganga akora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite ubwanwa ndetse ufite n'umusatsi utsibye ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, hagamijwe kugira ngo yirinde kugira guhura n'uburwayi butandura no kugira umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'izindi.

Icyumba gikubiyemo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngoramubiri kugira ngo ikomeze ikorwe neza, harimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye yifashishwa ku bahuye n'imvune mu gihe cy'ikorwa ry'imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze kurushaho kugira ubuzima buzira umuze, ibi byifashishwa kugira ngo bibafashe.

Igikoresho cyifashishwa, kugira ngo kirinde ukora imyitozo ngororamubiri, kuvunika, ingingo z'umubiri, cyane cyane hifashishwa myitozo ngororamubiri, nk'amavi inkokora ubona ko ikinditi cyifashishwa mu kurinda kuvunika kw'amavi, ndetse hari n'ibindi byifashishwa mu kurinda kuvunika kw'inkokora, mu gihe hakorwa imyitozo ngororamubiri.

Umubyeyi w'umumama, bisa nkaho yakomeretse, akaba ari kwiha ubutabazi bw'ibanze, aho yafashe agatambaro akaba yashyize aho yakomeretse, kugira ngo akomeze kugabanya ububabare cyangwa se kuva kw'amaraso atemba hasi.

Umugabo ubona ko wari uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye agasaha k'ukuboko k'umukara, ubona ko mugabo yakomerekeye mu myitozo ngororamubiri, ubonako ari gukanda igice ababaraho kugira ngo agarure igufwa ryavuye mu mwanya waryo, kugira ngo abashe kongera kugenda neza.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kurwanya indwara zitandura, nk'umuvuduko w'amaraso, Diyabete, umubyibuho ukabije bityo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukinnyi uryamye hasi undi w'umuganga ushinzwe kuvura abakomerekera mu kibuga, akaba ari kumufasha kumukandira aho yavunitse mu ivi kugira ngo yongere arambure ukuguru maze yongere asubire mu kibuga akine, haramutse hongeye kumera neza.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wazamuye ivi kugira ngo arambure ukuguru gusigaye ndetse anagurure iri vi fasheho, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bumeze neza, ndetse abashe no kuba yakwirinda uburwayi bukomoka ku kudakora imyitozo ngororamubiri.

Itsinda ry'imbuto zikungahaye kuri vitamini c ndetse n'ibikoresho harimo imidari, harimo ibinini byifashishwa imyitozo ngororamubiri kugira uyikora abashe kurushaho kugira ubuzima buzira umuze.

Umukobwa wicaye ku gatapi akaba ari imyitozo ngororamubiri. Imbere ye hakaba hari mudasobwa bisa nkaho hari amabwiriza, hari aho arikureberaho. Bityo ibyo bakoze na we akabikora. Nanone iruhande rwe hakaba hari udukoresho twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'icupa ry'amazi kugira ngo arusheho gukomeza kugira ubuzima buzima.

Umugabo ufite icupa ry'amazi riri ku munwa bisa nkaho yaravuye imyitozo ngororamubiri icyayaka kimwishe akaba ari kunywa aya amazi kugira ngo ashyire icyayaka kuko yari ameze nabi.

Umusore uriho akora imyitozo ngororamubiri, aho akaraga amaboko, ayagorora kugira ngo arambure ingingo z'iwe, anarwanya indwara zitandura zikomoka kudakora imyitozo ngororamubiri, isukari nyinshi, umubyibuho ukabije ndetse n'umuvuduko w'amaraso n'izindi.

Igikapu gikubiyemo ibikoresho ndetse n'imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura uwahuye n'imvune mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri. Bityo kugira ngo abashe kubona ubutabazi bw'ibanze, akomeze kongera gusubirana ubuzima yahoranye. Bityo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Ubwoko bw'igikoresho muhabwa uwakomerekeye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo bimufashe gukomeza kugenda, gukata kuko hari igihe igufwa rivunika cyangwa se ikirenge kikatsikira kikababara. Aka ngaka kamufasha mu kugenda maze akabasha gukomeza ibikorwa bye bya buri munsi.

Umukobwa ufite imisatsi isokoje cyane myinshi uri gukora imyitozo ngororamubiri, warambuye akaboko hasi afata ku mano bigamije kugorora umugongo akaboko ndetse n'ukuguru ubona ko ari kubikora agamije kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda uburwayi bushobora guturuka mu kudakora imyitozo ngororamubiri.

Igishushanyo kigaragaza ukuboko gufashe agacupa karimo amazi meza, asa neza, bigaragaza ko biba ari byiza ko umaze gukora imyitozo ngororamubiri agomba kunywa amazi kugira ngo arusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abasore bari ku kibuga cyabugenewe gikorerwaho imyitozo ngororamubiri, ubona ko rwose abasore banejejwe bafite umurava wo gukora imyitozo ngororamubiri, ubona ko basobanukiwe n'akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri.

Agakarito ndetse n'ikindi gikoresho kifashishwa mu kuvura uwahuye n'ibikomere cyangwa se uwahuye n'imvune mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri kugira ngo yongere agire ubuzima buzira umuze.

Umusore n'inkumi, buri wese ufite agacupa k'amazi mu kuboko, bakaba bari bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kurwanya ubwoko bw'indwara bukomoka kudakora imyitozo ngororamubiri nk'umuvuduko w'amaraso, isukari nyinshi, umubyuho ukabije ndetse n'izindi ndwara.

Ibiganza bine by'abantu batandukanye, bimwe bishembyeho ibipfuko bisa nkaho byakomeretse mu gihe byakoraga imyitozo ngoramubiri, ibindi nabyo biri gutanga ubutabazi bw'ibanze, ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo bitabare, bifashe uyu wagize ibibazo mu gihe yakoraga imyitozo ngoramubiri.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo umupira w'amaguru ndetse n'inkweto zifashishwa mu gukina umupira w'amaguru, ndetse n'igikoresho muganga akoresha apima, areba ugutera k'umutima ku bari gukora imyitozo ngororamubiri, mu gihe umwe muri bo yaba ahuye n'ikibazo kugira ngo yitabweho, maze abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abagabo babiri umwe mu mupira w'umweru undi mu mupira w'umukara bari mu cyumba cyabugenewe cy'imyitozo ngororamubiri ubona ko bafite ibikoresho bibafasha mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bahashye ubwoko bw'indwara bugiye butandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri diyabete.

Amoko y'imbuto ndetse n'ibinyobwa n'imboga zigiye zitandukanye zifashishwa n'uwakoze imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse iruhande rwabyo hari igikoresho kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze byifashishwa mu gufasha uwahuye n'ikibazo cy'imvune mu gihe cy'ikorwa ry'imyitozo ngororamubiri harimo imakasi, ndetse itoroshi, ndetse uturindantoki ndetse n'ibindi byifashishwa kugira ngo hatabarwe vuba uwahuye n'imvune mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri kugira ngo yitabweho abashe kugira ubuzima buzima.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, ubona ko yarambuye ukuguru kumwe kuri hasi ukundi guhinnye, ubona ko ari kugorora igice cye cyo hejuru ndetse n'igice cy'amaguru, bityo kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze, yirinda indwara zitandura zikomoka kuba udakora siporo. Umubyibuho ukabije, diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi.

Umukobwa w'imisatsi itsibye uri kwigorora, ukora imyitozo ngoramubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara zitandura, umuvuduko w'amaraso, isukari nyinshi ndetse n'ibindi kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abasore n'inkumi bari mu myitozo ngororamubiri nyuma yaho hari abafana cyangwa se indorerezi zireba ibyo aba barimo barakora, ubona ko aba bishimiye kubona ibyo aba bari gukora muri iyi myitozo ngororamubiri, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri iruhande rwabyo hakaba hari amafunguro yabugenewe ahabwa ukora imyitozo ngororamubiri nyuma yo gusoza iyo myitozo cyangwa se mu gihe ayikora.

Inkweto zihabwa uwahuye n'imvune mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri ku muntu wavunitse amaguru kugira ngo zimufashe kurambura imitsi ndetse zimufashe gukata, maze abashe kongera kugenda.

Birasa nk'aho uyu mugabo ari mu myitozo ngororamubiri, agamije kugira ngo yirinde indwara zitandura, zituruka ku kudakora imyitozo ngororamubiri, harimo umuvuduko w'amaraso, harimo diyabete ndetse n'ibindi.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri nk'imipira yifashishwa gukina umukino w'amaboko, yifashishwa gukina umukino w'amaguru ndetse n'ibindi.

Icupa risukwamo amazi asa neza ahabwa uwo ari we wese wakoze imyitozo ngororamubiri kugira ngo yongere agarure agahehere mu muhogo, ndetse no mu mubiri kuko aba yatakaje menshi kugira ngo yongere akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ibikoresho bigiye bitandukanye bwifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma abagize imvune mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, ubona ko hari umwe muri bo uryamye ariko akaba hari igikoresho bamushyizeho gisuzuma uburyo ki umutima we utera bityo kugira ngo abashe gukurikiranwa maze ubuzima bwe bwitabweho.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abagize imvune mu gihe cy'ikorwa ry'imyitozo ngororamubiri, ubona ko hari igitanda cyifashishwa kwakiraho abagize ibibazo by'imvune, imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi abaganga bakoresha bavura abagize ibibazo mu myitozo ngororamubiri.

Igikoresho cyifashishwa imyitozo ngororamubiri, ariko cyane cyane gifasha ba bandi bafite umubyibuho ukabije, aho baba bafite inda nini cyane, iki gikoresho cyifashishwa nabo ngabo kugira ngo kibafashe, mu kugabanya inda kugira ngo zijye ku murongo neza ziringanire.

Amoko y'ibikoresho bigiye bitandukanye yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo umupira w'ubwoko bugiye butandukanye, uw'amaguru, uw'amaboko ndetse n'iyindi kugira ngo afashe abakora imyitozo ngororamubiri kugira ingingo zimeze neza ndetse n'ibice by'umubiri bikora neza.

Umukobwa uri kunywa amazi wari uvuye mu myitozo ngoramubiri ufite icyayaka cyinshi ubona ko yari akeneye amazi kugira ngo icyaka kibashe kugabanyuka maze yongere kumva agize ubuhere mu muhogo ndetse no mu mubiri we kugira wongere kumererwa neza.

Umusore n'inkumi ubona ko umwe ari ku wundi, bavuye mu myitozo ngororamubiri, aho bari bafite icyaka, bakaba bafite agacupa k'amazi, buri wese kari ku munwa, ubona ko bari kwimara icyaka kugira ngo bongere bagire ubuhehere ndetse barushaho kugira ubuzima buzima.

Umukobwa ufite icupa ririmo amazi riri ku munwa, bisa nkaho uyu mukobwa yaravuye imyitozo ngororamubiri afite icyaka, ari kugira ngo akimare. Ni uko yafashe icupakanywa amazi kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzima, asimbuza amazi yatakaje igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abayikora bamererwe neza kandi babashe kugorora ibice byabo by'ingingo, hitabwaho ko buzima bwabo buri bufite umutekano, harimo umupira w'amaguru, umupira w'amaboko ndetse n'ibikoresho byifashishwa gusuzuma gutera k'umutima kwabo.

Umuntu wambaye ipataro ariko bisa nkaho yakomerekeye mu myitozo ngororamumubiri, akaba ari kwikanda kugira ngo ububabare bugabanyuke ndetse arusheho kongera kumererwa neza.

Umuti upfunyitse mu bihuho bigiye bitandukanye, ariko wifashishwa mu kuvura uwahuye n'ikibazo mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, imufasha kugira ngo agire ubuzima buzira umuze, maze uyu mutima wo ukamufasha mu kwirinda uburibwe, aho yagiye akomereka mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri,

Icyumba kirimo igikoresho cyabugenewe, gisuzuma imvune z'imbere zitagaragarira inyuma, ku bakomerekeye mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo babashe kumenya neza igice cyakomeretse, bityo cyitabweho, kivurwe gikire, bityo uwakomeretse abashe kongera gusubirana ubuzima buzira umuze, bityo abashe kugira ubuzima burambye.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye gifasha abagize imvune mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, hakaba arimo umukobwa wicaye ku gitanda aho ari kumwe n'umugabo uri kumupfuka aho yakomeretse. Kugira ngo asubize igufwa ryavuye ku murongo cyangwa se igice cy'umubiri cye kiri kubabara kugira ngo ubutaha azongere abashe gukora imyitozo ngororamubiri ndetse arusheho no kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wabizi icyunzwe, wari ufite agacupa karimo amazi, akaba ari kuyanywa bisa nk'aho yari ananiwe, afite inyota, avuye mu myitozo ngororamubiri ubona ko yari yatakaje amazi menshi, ari na yo mpamvu inyota yamwishe akaba ari gusimbuza ay'umubiri we watakaje kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza

Umusore upfukamye hasi usa nkaho yari mu myitozo ngoramubiri akaza kugira ikibazo cy'imvune mu ivi, ubona ko ari kwikanda kugira ngo arebe ko amaraso yatembera ndetse abashe kureba ko niba yabasha koroherwa ububabare bukagabanyuka, bityo akaba yabasha gukomeza imyitozo ngororamubiri yiwe.

Umugabo wicaye usa nkaho yakomeretse mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri ariko akaba afite agatambaro ari kwifashisha akanda igice ababararaho kugira ngo yihe ubutabazi bw'ibanze abashe kongera gusubirana ubuzima buzira umuze.

Urabona ko abantu babiri umugore uri guha umukinnyi usa nk'aho yavunikiye mu myitozo, akaba ari kumuha ubutabazi bw'ibanze, asubiranya ingingo zangiritse kugira ngo yongere kumererwa neza nk'uko byari bisanzwe.

Umusore wambaye agapira kajya gusa ibara ry'icyatsi, mu kuboko kw'iburyo akaba afitemo umupira wifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri y'amaboko.

Umugabo wifashe ku kuboko yavunitseho, bisa nk'aho yakomeretse ari mu myitozo ngororamubiri, ubona ko ari kwiha ubutabazi bw'ibanze yikanda kugira ngo arebe ko yakongera kumererwa neza bityo agasubirana ubuzima buzira umuze.

Umugabo ufite amazi amwe ayanywa, andi ayimenaho, bisa nkaho yara avuyeye mu myitozo ngororamubiri afite inyota ndetse ubona ko ariko yigorora, anywa ayo mazi.

Ubwoko bw'imerara hifashishwa nk'umuti gakondo, ukifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye, abarwayi bagenda bahura nabwo, bityo kikaba kibafasha koroherwa ndetse no kumererwa neza.

Ubwoko bw'ibimera bugiye butandukanye, hakaba harimo ubwoko bw'ibimera bumwe bwifashishwa mu buvuzi gakondo mu gukora imiti itandukanye igenda ivura uburwayi bugiye butandukanye, harimo nk'ubwoko bwitwa kapusine bugenda bwifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara y'inkorora ndetse n'izindi.

Agacupa karimo umuti ufite ubudahangarwa mu kuvura indwara ya amibe abenshi bavuga ko itoroshye, kuyivura ubu bwoko bw'umuti wa REISHI ufite ubudahangarwa mu gukumira iyi ndwara ya amibe.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi gakondo, kugira ngo havurwe uburwayi bugiye butandukanye, harimo n'ubwoko bw'igiti gikunze kwitwa igisura, gikoreshwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye, kugira ngo uhuye n'ikibazo cy'ubbwo burwayi, hifashishwa uyu muti gakondo, kugira ngo yongere kumererwa neza.

Ubwoko bw'ibikoresho byashyizwemo ubwoko bw'imiti gakondo ikomoka ku bimera, yatunganyijwe yifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye, ubona ko afite agasekuru n'umuhini ari kugenda atunganya ubundi bwoko bw'imiti gakondo ikomoka ku bimera, na yo yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Udusorori tugiye dutandukanye, iruhande rwatwo hakaba hari, ubwoko bw'ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo. Muri utwo dusorori hakaba harimo ubwoko bw'imiti gakondo, igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye.

Ubwoko bw'ikimera cyitwa urumogi kikaba cyifashishwa nk'umuti gakondo nko kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye nko kubura apeti, iki kimera kirabigufashamo ukabasha kuba wafungura wishimiye ibyo uri kurya.

Amacupa abiri y'ubwoko bwe butandukanye kamwe k'umuhondo hejuru ku mupfundikizo n'akandi k'umukara hejuru ku mupfundikizo kamwe karimo umuti gakondo ukozwe mu myembe ndetse akandi kakabamo umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba, ikaba yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Ubwoko bw'ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo kivura ubwoko bw'indwara mu bwi ye butandukanye maze urwaye yakifashisha ikimera bityo nk'umuti akabasha gukira ubwo burwayi akongera kumererwa neza.

Uducupa tubiri tugiye dutandukanye, ariko turimo umuti ukozwe mu bimera gakondo, ukaba uvura kurangiza vuba kw'abagabo ndetse no gucika intege kw'abagabo, mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina n'abo bashakanye.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu miti gakondo yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye abarwayi bahura nabwo. Bityo ufashe uyu muti gakondo ukaba umufasha mu gukira uburwayi yari arwaye.

Ubwoko bw'imiti gakondo ikusanyijwe ahantu hamwe ariko ikaba iri mu dusahani tugiye dutandukanye iri mu ibara ry'umutuku ibara risa umweru ndetse n'ayandi agiye atandukanye iruhande rw'aho hasi hakaba hari indi miti inyanyagiye hagati yatwo uruhande hari agasanduka kariho umunzani upima ingano y'iyo miti.

Umumama ufashe ikimera cy'umuti gakondo kifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye bitandukanye kugira ngo urwaye abashe gukira.

Ikimera cyifashishwa muvuzi gakondo, kikaba kivura uburwayi bugiye butandukanye bw'umubiri, kugira ngo butume urwaye ubwo burwayi amererwa neza.

Utubido dutatu ndetse iruhande hejuru yabwo hariho ubwoko bw'ibimera bwifashishwa mu gukora uyu muti gakondo, wifashishwa mu kuvura ubu burwayi bugiye butandukanye.

Agacupa k'ibara ry'umweru hashushanyijeho uruyuki bigaragara ko karimo umuti gakondo ukozwe mu buki wifashishwa mu kuvura bwoko bw'indwara bwi butandukanye n'indwara z'uruhu indwara z'inzoka zo mu nda indwara zo mu gatuza ndetse n'izindi.

Ubwoko bw'ikimera kitwa igikakarubamba, kifashishwa nk'umuti gakondo wo kuvura uburwayi bugiye butandukanye, inzoka zo munda ndetse n'uburwayi bw'uruhu n'izindi zigiye zitandukanye.

Ubwoko bw'ikimera bwifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura uburwayi gufata abana ndetse n'abantu bakuru kugira ngo ababufashwe hakoreshwa iki kimera kugira ngo bavurwe bamererwe neza.

Ubucupa butandatu buri mu ibara ry'umweru hasi hariho uruziga rw'icyatsi, burimo ubwoko bw'umuti gakondo ukozwe mu kimera cy'igikakarubamba bwifashishwa mu kuvura ubwoko bw'indwara bugiye butandukanye, inzoka, inkorora ndetse n'ibindi.

Ubwoko bw'abashakashatsi buri wese ubona ko yafashe ubwoko bugiye butandukanye bw'umuti gakondo bwifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye ubonako bari ku nyigo yo kugira ngo barebe imikoreshereze y'iyi miti buryo ki yakongererwa ubushobozi biddeye n'isi turimo.

Ubwoko bw'ibimera bugiye butandukanye, harimo gikakarubamba ndetse n'ibindi byifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo havurwe uburwayi bugiye butandukanye, uburwayi bwo mu nda, uburwayi bw'inkorora ndetse n'ubundi.

Agakarito karimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye, iruhande rwako hariho imiti ikorwa mu nganda yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Itsinda ry'imbuto zikungahaye kuri vitamin c. Ikaba ari vitamini y'ingirakamaro mu mubiri w'umuntu wifashishwa kugira ngo hirindwe indwara. Ubu bwoko bw'izi mbuto bukaba bwifashishwa nk'umuti gakondo w'uburwayi bugiye butandukanye. Harimo indimu ubona ko imwe bayisatuye kugira berekane imbere hayo, yifashwa mu kuvura uburwayi, inkorora n'ibindi.

Ubwoko bw'ikimera kifashishwa gukora umuti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo, cyifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye, kugira ngo gifashe uwahuye n'ibibazo by'uburwayi kugira ngo yongere amererwe neza akire, bityo asubirane ubuzima buzira umuze.

Ubwoko bw'imiti gakondo ipfunyitse mu dukarido. Iruhande rwayo hariho ubwoko bw'imbuto n'imineke ndetse n'inanasi. Bikaba byifashishwa mu kuvura ubwoko bw'indwara zigiye zitandukanye, umunaniro ndetse n'izindi.

Ubwoko bw'ikimera kifashishwa mu buvuzi gakondo, kikaba ari ikimera kifashishwa mu gukora umuti uvura ubwoko bugiye butandukanye bityo kugira ngo bifashe abahuye n'uburwayi kugira ngo boroherwe, barusheho kugira ubuzima buzira umuze barusheho kugira ubuzima bwiza maze bongere basubirane ubuzima bwabo.

Agacupa karimo ubwoko bw'umuti gakondo ukozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, ukaba wifashishwa mu buvuzi bw'amenyo kugira ngo uwahuye n'ikibazo cy'amenyo uyu muti umufashe kongera kugira amenyo atarwaye.

Ubwoko bw'ikimera cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye abantu bakunze guhura na bwo, kikaba kibafasha mu kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Ubwoko bw'ikimera cyifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura ubwoko bw'indwara zigiye zitandukanye, z'umubiri uhura nazocyane cyane kenshi cyakoreshwaga hambere mu kuvura uburwayi bw'imitsi ndetse n'uburwara bw'imvune.

Ubwoko bw'ikimera kifashishwa mu gukora umuti gakondo, ufasha mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye, bityo abahura n'ubwo bwoko bw'uburwayi bukabafasha mu gukira ubwo burwayi, hakoreshejwe uyu muti gakondo ukomoka kuri iki kimera.

Udukarito tugiye dutandukanye turimo ubwoko bw'imiti itandukanye ikozwe mubimera gakondo ariko yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye abarwayi bahura nabwo. Iyi miti yifashishwa kugira ngo yorohereze abahuye n'ikibazo cy'uburwayi kugira ngo basubirane ubuzima buzira umuze.

Ubwoko bw'imiti gakondo bugiye butandukanye bwifashishwaga cyangwa se n'uyu munsi wa none bwifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye, nk'umuneke, inanasi ndetse n'indi. Imineke, inanasi ifasha mu gutanga vitamin si yifashishwa mu kuri indwara, hakaba ikawa ifashwawe mu kuvura indwara ziterwa no kutamera neza mu mutwe, umunaniro ndetse n'izindi.

Igice cy'umunwa kimwenyura kigaragaza amenyo asa neza, munsi yaho hagaragaramo uducupa dushushanyijeho ibimera gakondo bigaragaza ko uducupa turimo imiti gakondo yatunganyijwe ikuwe muri ibyo bimera gakondo, ikaba yifashishwa mu gukura amenyo.

Ubwoko bw'ibimera bw'imiti gakondo bugiye butandukanye, bwifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye, harimo umuravumba inzoka, harimo kapisine inkorora, ibicurane, harimo umuravumba inkorora, ndetse n'ubundi bwerekanwe.

Ubwoko bw'ikimera bwifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye kugira ngo ufite ubwo burwayi yongere kumererwa neza maze umubiri we wongere utungane, wongere ukore nk'uko wakoraga.

Tungurusumu nyinshi zifashishwa nk'umuti gakondo zifashishwa mu kuvura uburwayi karemano, nk'urugero harimo indwara ziterwa n'umwanda, inzoka ndetse n'ubundi burwayi bugiye butandukanye, uruhu, izi tungurusumu zifashishwa mu kuvura uburwayi.

Agakarito gashushanyijeho ibimera ndetse karimo imiti gakondo yatunganyijwe ikuwe muri icyo kimera yifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye kugira ngo bworohereze ababurwaye gukira vuba kandi buryo burambye bwizewe.

Ibiganza by'umuntu bibumbatiye agapapuro karimo umuti gakondo useye neza, wifashishwa mu buvuzi gakondo mu kurwanya cyangwa se mu kuvura uburwayi bugiye butandukanyekanya.

Abantu barimo basoroma ubwoko bw'ibimera bw'imiti gakondo yifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye, bityo kugira ngo bajye kubufasha kubwifashisha bavura uburwayi bugiye butandukanye, abaturanyi cyangwa se abana babo bahura na bwo.

Igishushanyo kigaragaza aho akagera gatanga imiti gakondo yifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bwiye butandukanye harimo ubwoko bw'imiti bw'akarubamba muravumba ndetse n'iyindi iboneka mu kagera yifashishwa mu kurwanya indwara ziri zitandukanye inzoka uruhu ndetse n'izindi.

Uducupa tubiri, kamwe ko hejuru kari gusa ibara ry'ubururu, akandi gafite umupfundikizo w'ibara ry'ubururu ariko hasi kari mu ibara ry'igitare, ariko mu by'ukuri utu ducupa tukaba dukubiyemo ubwoko bw'imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura uburwayi bw'uruhu bugiye butandukanye, bityo kugira dufashe ababurwaye mu koroherwa ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Agasashyi gapfunyitsemo ubwoko bw'umuti gakondo bwifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye bw'abarwayi bagenda barwara kandi uyu muti ubafasha muri byose, mu kubafasha mu kuvura ubu burwayi.

Agacupa k'ubururu karimo umuti gakondo uturuka mu bimera, wifashishwa mu kuvura ubwoko bw’uburwayi bugiye butandukanye nk'urugero ubwoko bw'uburwayi bwibasira uruhu.

Agacupa gatoya kari mu ibara ry'umweru gafite ikindi gipapuro cyanditseho ubwoko bw'ibirimo, ariko bigaragara ko aka gacupa karimo umuti gakondo ukozwe mu bimera, ukaba wifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye yifashishwa, mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bigiye bitandukanye, kugira ngo umerewe nabi cyangwa se uwahuye n'ikibazo cy'uburwayi, abashe kuvurwa hakoresheje ubwoko bw'ibimera; harimo igikakarubamba, imiravumba, ndetse n'ibindi.

Uducupa tune, tubiri tugufi, n'akandi karekare, n'akandi gasa nk'aho ari karekare kurush’utundi tubiri, ubona ko ari imiti ya gakondo igizwe cyangwa se ikozwe mu buki, bisa nk’aho yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye bw'umubiri.

Ubwoko bw'ikimera kifashishwa mu gukora umuti gakondo, ndetse kikaba kigufashishwa mu kuvura bwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye bugenda bufata abantu. Ubwoko bw'ikimera bwifashishwa nk'umuti gakondo, kugira ngo ufashe uwahuye n'ikibazo cy'uburwayi, mu kugira ngo yongere gusubirana ubuzima buzira umuze.

Ubwoko bw'ikimera bwifashishwa mu gukora umuti gakondo bityo ukifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye, ku bahura n'ubwo burwayi, iki kimera kibafasha mu gukira ubu burwayi.

Imiti igaragara ko iri ku kibabi k'icyatsi, ishobora kuba bigaragara ko iyi miti ishobora kuba ikomoka muri ubu bwoko bw'ikimera, ubona ko na cyo ahari bisa nk'aho kifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amoko y'imiti ya kinyarwanda yifashishwaga mu buvuzi gakondo cyangwa se na n'ubu acyifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura uburwayi bw'umubiri bugiye butandukanye, harimo inkorora, harimo uburwayi bw'ubuhumekero ndetse n'ubundi.

ubwoko bw'ikimera kifashishwa umuti gakondo mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye. Aho benshi babyita urumogi. Ariko mu by'ukuri ubwoko bw'ikimera bukaba bwifashishwa mu kuvura ndetse no mu gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura ubwoko w'uburwayi bugiye butandukanye kugira ngo abarwayi babashe kongera kumererwa neza kuko bifasha cyane.

Ikiganza gifashe ku kibabi cy'ubwoko bw'ikimera hifashishwa mu gukora umuti gakondo wifashishwa mu kuvura bwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye, kugira ngo utume abafite ubwo bwoko bw'uburwayi babashe kumererwa neza.

Amoko y'ubucupa bugiye butandukanye, agaragaraho ibishushanyo by'ibimera gakondo, byifashishwa nk'imiti kugira ngo buvure ubwoko bugiye butandukanye, aya macupa agaragara ko arimo imiti yatunganyijwe ikomotse mu bimera gakondo, yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Umuntu uri gukora umuti gakondo akoresheje agasekuru gatoya ndetse n'agahini gatoya, bisa nkaho ari kuyihonda kugira ngo inoge ibashe kuba yakwifashishwa.

Ubwoko bw'ibimera bwifashishwa nk'umuti gakondo kuvura uburwayi bugiye butandukanye abarwayi bamwe na bamwe bahura nabwo, bikaba bibafasha mu koroherwa ndetse no gukira ubwo burwayi bityo bagasubirana ubuzima buzira umuze.

Amacupa y'ubwoko bugiye butandukanye agera ku munani. Akaba arimo amoko y'imiti gakondo ikomoka ku bimera. Akaba yifashishwa mu buvuzi gakondo avura uburwayi bugiye butandukanye.

Ubusashi ndetse n'ubukarito bugiye butandukanye buriho amazina y'ibiti gakondo yifashishwa mu buvuzi ubu bukarito bukaba burimo umuti gakondo watunganijwe uturutse mu byatsi gakondo byifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye butuma abantu boroherwa, ndetse bakagira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ikimera bwifashishwa mu gukora umuti gakondo kikaba cyitwa igikakarubamba kikaba cyifashishwa mu kuvura bw'uburwayi bugiye butandukanye, ubwoko bwo inzoka zo mu nda ndetse n'ubundi, kikaba kiri kumwe n'ubwoko bw'urubuto rwitwa avoka, rukaba rwifashishwa mu gukora isabune ihangana cyangwa se ifasha mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye bw'uruhu.

Amoko atandatu y'imiti gakondo ikomoka ku bimera, yifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye.

Ubwoko bw'ikimera bwifashishwa mu gutunganya umuti gakondo bifashisha mu kugovura ndetse no mu kurwanya uburwayi bugiye butandukanye kugira ngo burusheho gutuma uburwaye arushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, bityo akabasha kugira ubuzima bwiza.

Ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo havurwa uburwayi bugiye butandukanye bitewe n'imirire mibi, imyanda se ndetse n'ibindi.

Amasahani abiri imwe igeretse hejuru y'indi iruhande rwaho hari akaga gato k'icyatsi ndetse' n'ubwoko bw'urubuto ndetse hejuru y'aya masahani harimo ubwoko bw'imbuto bukungahaye kuri vitamin c bwifashishwa mu kurwanya uburwayi butandukanye umubiri uhura nabwo bwa bwofashishwa ubuvuzi gakondo kugirango bavure ubwo burwayi.

Uducupa turi mu moko agiye atandukanye ndetse no mu ndeshyo zigiye zitandukanye, dukubiyemo amoko y'imiti gakondo ikomoka ku bimera, ikaba yifashishwa mu kuvura ubwoko bw'uburwayi bugiye butandukanye.

Ubwoko bw'ikimera kifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura ubwoko bw'uburwayi butandukanye abantu bagenda bahura na bwo, ndetse kikaba ari ikimera cyiza kivura vuba umuntu akaba asubira mu buzima yahozemo, bitagombereye ko ajya kwa muganga.

Agacupa k'umuhondo n'akandi k'igitare burimo imiti gakondo yakomotse ku bimera, nk'ikimera nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi hakaba hari n'indi iri mu dukarito yatunganyijwe ikomotse mu bimera ariko imiti gakondo ikaba yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye uburwayi bwo mu nda ndetse inkorora ndetse n'ibindi.